Abafundi bubakaga amazu bakoresheje umwiko na sima, aya mazu bari kuyubakisha amatafari gahiye, baragabumbaga bakagatwika mu itanura, gamara gusha bakagubakisha inzu, umuntu wambaye jire y'umuhondo ukontororaga aba bantu bari kubaka.